Iyi ni inama baba bahamagaye itangazamakuru, baganire gusukura, yenda ku ngingo yo gusukura umujyi wa Kigali.

Iyi ni inama yiga ku buringanire mu nzego zose, kugira umubare mwinshi w'abagore bafite akazi, kugabanya ubushomeri mu bagore iyi nama nicyo yigagaho.

Ndabona umutegarugori atanga inyigisho ku ngingo yo kwihangira umurimo kubitabiriye inama.

Uri kubona urubyiruko ruri mu nama, aho bari kuruhugura ku ngingo runaka z'igihugu hashobora kuba ari itorero habaye.

Ni umuntu wari uri mu nama y'ikigo cy'ababigize umwuga mu bijyanye na farumasi.

Ndabona abantu bari mu nama bafite umuntu bayoboye ariko kubagezaho amahugurwa, bari kwiga ku ngingo zo guteza imbere igihugu.

Ndi kubona umuyobozi uri gukoresha inama abaturage, aha bari kumva ingingo ari kubabwira ku buryo baziteza imbere mu byo bakora.

Aba ni abaturage bari mu nama n'umuyobozi wabo bari kwiga ku mikorere y'uburyo umuturage ku isonga yahora anezerewe.

Aha ni aho abantu baba bare, baba bareberera ibihugu byabo bari mu nama biga ku ngingo z'ingenzi zateza umugabane wa Afurika imbere.

Ndabona bari gutanga impamyabushobozi yerekana ko aminuje mu kintu runaka agifitiye ubushobozi kuburyo aho yajya kwaka akazi byamworohera.

Aha ni abari bari gutegura imihigo bagiye kuganira mu nama bayandika mu nyandiko kuko nibyo byiza usobanurira abantu unabasomera imihigo kugira bayi....

Ndabona abategarugori bari mu nama, uyu ari gutanga igitekerezo muri ino nama, kuba mu nama ub'ugomba gutanga ibitekerezo.

Ndi kubona abantu bari mu nama bicaye, bari guhabwa impanuro n'umuyobozi wabo ari kubahugura mu ngingo runaka ziteza igihugu imbere.

Iyi ni gahunda y'igihugu yo kugira umujyi usukuye, aho buri muturage ubashishikarizwa gukumira imyanda yose, gusukura ahantu hose ari.

Ndabona abategarugori bari mu nama bari kwiga ku mishinga bari kubahugura ku bikorwa byabo bakora.

Ndi kubona hari abantu bari mu nama bari kwiga ku ngingo runaka wenda yo guteza igihugu imbere mu cyerekezo cya bibiri na na mirongo.

Ndabona abategarugori bari kuyobora inama yiga ku miyoborere myiza ijyanye n'igihe k'igihugu.

Ndabona abantu bari gufata inyigisho barakurikiye, bari kwiga ku ngingo z'ingenzi zafasha buri kintu cyose bari kwigaho.

Ndabona umunyarwandakazi ayoboye inama ari kubaha ubutumwa bwo kugira imbaraga ukoresha ibyo wakoze.

Ndabona umunara aho ukurura amarezo yaba kuri ya televiziyo yaba aya radiyo yaba telefoni ngendanwa yaba ayo kuma interinete.

Aha ni, ngo ni izihe nyungu z'akazi uha agaciro cyane; ati bakwishyurira iby’ubuvuzi, iterambere ry'umwuga n’igihe cyo kuruhuka.

Hano bari kutubwira ingaruka mbi ku bintu bitabora ,by'imyanda kw'ibikoresho by'ikoranabuhanga, kubikoresha bundi bushya duhora tubikoresha, kudatwika imyanda itabora...

Iyi ni iminara iba ishinzwe gutuma abantu babona amakuru, haba ku maradiyo no ku mateleviziyo, no ku mbuga nkoranyambaga.

Iki ni ikigo cya ruraraho kikwereka uburyo wakwishyura umuriro haba na esitarasiyo.

Aha ni muri saba serivisi z'Irembo hafi za Leta, aho ikunze kuzifashisha ku buryo bwo kuri murandasi, kandi adatonze umuronko.

Hano iki cyapa kirikuyobora ahantu wajya kwaka serivisi zaba iz'irembo, haba amafoto ya pasiporo no kwishyura imisoro ya Rwanda Reveni

Ndabona hari umuntu uri kwiyandikisha yicirere ku ngingo ya gatatu niho ageze yiyandikisha.

Hano ni aho batangira serivisi za bipiyara banke n'uburyo waza kubikuza kuri emutiyene cyangwa ukagura ifatabuguzi ry'amayinite ukababa wahamagara abawe.

Aha ni aho bakirira abantu babagana ngo babafashe kuri murandasi, ku irembo kwiyandikisha mu bintu bitandukanye.

Iki ni ikigo kigenzura ibikorwa byose by'imari by'igihugu bikaba bishakira ahantu hose baba mu bukerarugendo ku buryo igihugu giteri.

Hano Rwanda reveni ikigo cy'imisoro n'amahoro, kiba kiri kukwigisha uburyo wakwishyura imisoro ukoresheje telefone yawe utiriwe ujya ku biro, ugakoresha telefoni.

Hano Rwanda Revenue irikukwereka uburyo ukurikiza amabwiriza ku buryo wakwiyandikisha, uburyo wajya wishyura imisoro ukoresheje ikoranabuhanga.

Abandi ndi kubona bari gukoresha za mudasobwa hariya hepfo hari n'isomero uko ndi kubona, hari abantu bari gusoma ibitabo biyungura ubumenyi.

Uyu ni umunara w'amateleviziyo n'amaradiyo, ushinzwe gutuma babona amakuru yose baba bakeneye.

Ndabona ari umunara ushinzwe gukururira abaturage rezo ku bikoresho byabo bya elegitoronike igakora neza.

Hano bari kukwereka uburyo wakwishyura mituweli ukoresheje akanyenyeri magana cyenda n'icyenda urwego, n'ubundi buryo wakoresha ukoresheje ikoranabuhanga.

Ibi ni ibikorwa remezo bifasha abaturage, aribyo bita iminara itanga itumanaho rihagije, mu gihe umuntu ari kurikoresha, ridacikagurika.

Ubu ni uburyo Rwanda reveni iri kukwigisha uburyo wavugurura porogaramu ya EBM ku buryo izajya ikora neza.

Ubu ni uburyo bworohereza umuturage gusaba serivisi za leta unyuze ku irembo bikakorohera utiriwe ujya ku biro utonda umurongo bikakwangiriza umwanya wawe.

Iki ni igikorwa cyubatswe na Leta aribyo bita iminara, ubishinzwe utuma abantu babasha kuvugana.

Ririya ni ipiloni ritambutsa insinga, rigemura umuriro w'amashanyarazi, riwujyana ku ngo z'abantu bityo bakabasha gucana.

Iri ni ipironi rifatiraho insinga zijyana amashanyarazi mu ngo z'abantu, no ku bikorwaremezo bikomeye.

Ndi kubona icyapa kiri ku ipironi kiri kwamamaza serivisi z'umurongo wa airtel aha ni bwo abantu babireba bakajya babikoresha.

Ndabona iri ari ipironi rijyana amashanyarazi mu mago, atanga urumuri yaba no ku bikorwa remezo, ku banyarwanda...

Iri ni ipironi aho haba hahurira insinga zijya mu duce dutandukanye, bityo abaturage umuriro ukabageraho bisanzwe nk'ibisanzwe.

Aha ni aho bakusanyiriza amashanyarazi, bakajya bayayobora mu mirongo hakurikijwe uko buri karitsiye igenda ikoresha umuriro.

Iyo ibayita fizibure ni akamaro kayo ni uko iyo habaye siriko itayikupa, cyangwa waba ushaka gukupa umuriro ukatako.

Aha ni ku cyicaro aho amashanyarazi aba ahurira, haba hari za taransifo ziyongerera imbaraga, ziyageza ahantu kure, ziyongerera ubushobozi ku buryo bayakoresha neza.

Ndabona imiyoboro y'amashanyarazi inyuraho imirongo ijyana ku yandi mashami bityo bigatuma abaturage basakaza umuriro w'amashanyarazi.

Ibi ni ibikoresho bidufasha mu mashanyarazi; ihindunyamuriro biwujyana mu tundi duce.

Ndikubona ari inyubako bakoreramo serivisi za Leta, kuko ndabona ibendera ry'igihugu kandi hakorerwa akazi.

Aha ndikubona ari ku bitaro aho ndikubona n'ibigega bifata amazi kuko ha hagomba kuba harangwa n'isuku nyinshi.

Uyu ni umucamanza w'abashinzwe kuburanisha abantu bagezwaho ibyaha ku buryo abiburanisha agatanga ubutabera akaka.

Abaturage bari mu nama z'umuryango, aho bicaranya imiryango ifite ibibazo bakayigira inama, bakayunga ku buryo amakimbirane agabanuka mu midugudu.

Inyandiko yerekana amabwiriza ku mategeko ku bintu runaka, uburyo wabikurikiza nyine kugira ngo bigufashe kunoza umurimo.

Iri ni itangazo rikumenyesha abatekamutwe baba bashaka kukurya amafaranga.

Uyu ni umwavoka uri kunganira umukiriya we mu rukiko, ari kumubwira ingingo bari buvugeho biregura.

Izi ni ingingo zikoreshwa iyo wahamwe n'icyaha zigaragaza uburemere bwacyo bityo bikerekana uburyo bagukatira.

Umutegarugori ndabona ari umucamanza akaba aburanisha akanarenganura abantu agahana n'abakoze ibyaha mu gihe gikwiye.

Uyu ni umucamanza uri kuburanisha abantu baba bakurikiranyweho icyaha runaka bamwe abaha ubutabera abandi abahana kugira ngo batazongera kugira.

Uyu ni umucamanza uburanisha mu rukiko ugenza abantu ibyaha bamwe anabarenganya.

Uyu ni umucamanza uri kuburanisha imanza z'ababa bakurikiranyweho ibyaha bari guhabwa ubutabera kugira ngo bazajye mu magororero.

Hasa nk'aho zino ari za nkiko gacaca aho baburanishaga abantu bagiye bakora ibyaha bari kubaburanisha kugira ngo hatangwe ubutabera.

Uyu ndabona ari umutegarugori w'umucamanza ushinzwe guca imanza arenganura abantu atanga ubutabera mu rukiko.

Bano baba batarakatirwa, hano baba bakiburanishwa batarahamwa n'ibyaha, bakiri mu minsi mirongo itatu.

Bano nibo bayoboye hari igihe babaga bari uguca imanza, za gacaca baburanisha abantu bagiye bakora ibyaha bityo bagahanwa.

Aba ubona babitaga abunzi, aba bakemuraga inkiko zo zitwaga zo muri gacaca, aho baburanishaga abunzi bitiriwe bijya mu nkiko.

Uyu ni umushinjacyaha wa leta, wo kuguhamya ibyaha yifashishije ibimenyetso aba yarahawe n'urukiko, wowe ukaba ufite umwavoka ukuburanira.

Abana ni bacamanza bari mu rukiko bari kwiga ku manza, zabo bari kwiga ku birego.

Aba ni abunzi baburanaga ari inkiko gacaca ku bantu bagize uruhare mu ikorwa ryo muri jenoside yakorewe abatutsi, ababaga bari kubacira imanza.

Hano uyu ni Bamporiki .Hano yari imbere y'ubushinjacyaha igihe yari akurikiranyweho ibyaha bya ruswa yari yarahawe.

Uyu ni umucamanza uca imanza aho arenganura abantu bakurikirana abantu akabahamya ibyaha, babikoze mucyo.

Aba bari kuzimya inkongi y'umuriro bifashishije ya mipira iba icometse kuri za modoka zabo ikavubura amazi.

Ndabona imodoka ya polisi yo mu muhanda iba icunga umutekano wo mu muhanda, ireba abantu ko bafite ibyangombwa za kategori zn'ibindi bitandukanye.

Ndi kubona imodoka ni iya polisi y'u Rwanda, aho iba ishinzwe umutekano wo mu muhanda, ikurikirana abaturage niba batwara neza cyane.

Uyu mupira uzana amazi iyo habaye inkongi y'umuriro, bafungura amazi akanyuramo bakajya bayazimisha bityo umuriro ntukwirakwire inkongi ikazima.

Izi bazita faya ekisitengwishi cyangwa babyita kizimyamoto uri kubona ko hari ahantu ziri ku buryo haramutse habaye inkongi ugenda ukayifata ukazimya umu....

Ndabona polisi ari mu kazi ari gucunga umutekano w'abaturage areba iby'abaturage barimo mu mirimo yabo.

Ndabona ari kizimyamoto zifashishwa kuzimya inkongi y'umuriro mu gihe hari igikorwa gifashwe ni yo ukoresha kugira ngo ubigabanye.

Abanyeshuri bari kubigisha uburyo bakoresha za kizimyamweto hamwe n'inzego z'umutekano n'abayobozi babo babigisha mu kwimakaza kuzikoresha.

Itiyo iyo habaye inkongi y'umuriro bahita bafungura hariya bakamena, irekura amazi afite umuvuduko mwinshi, akabasha kuzimya inkongi.

Nyakubahwa Paul Kagame umukuru w'igihugu, aha yari ari kwiyamamaza aje kuvuga imigabo n'imigambi ye gukomeza kutugeza ku iterambere.

Uyu ni Geregori Kayibanda wabaye perezida w'u Rwanda igihumbi kimwe magana icyenda mirongo itandatu na kabiri, kugeza igihumbi kimwe magana icyenda mirongo irindwi na gatatu.

Abaturage bari mu gikorwa cyo kwamamaza umukandida wabo Philipe Habineza hano bari bari kuganira.

Aba ni abaturage bari baje gushyigikira nyakubahwa Perezida Paul Kagame mu bikorwa byo kongera kwiyamamariza kuyobora indi mpanda, ku mwanya w'umukuru w'Igihugu, abaturage bari baje kumushyigikira.

Nyakubahwa perezida Paul Kagame n'umutambukanyi we Jeannette Kagame bari kujya ahantu hamwe.

Aba ni abayobozi baba bari mu nama bari kwiga ku bibazo abaturage bafite, baniga ku buryo byabateza imbere mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Ibi ni ibirango by'ishyaka ry'umukandida wigenga ariwe Philippe, aho ryerekana ko ari amadarage aterera.

Aba ni abari bitabiriye umuhango wo mu nama bari gutera indirimbo isusurutsa abashyitsi.

Aha ni mu nteko ishingamategeko y'u Rwanda, aho abayobozi bateranira, bakiga ku ngingo zimwe na zimwe, bashyiraho abayobozi bandi bashyashya.

Umukandida Mpayimana Philippe ari kugeza abaturage imigabo n'imigambi yiwe y'ibyo azabakorera.

Umukandida Filipo ari kwiyamamaza, ari kugezaho imigabo n'imigambi ku baturage bitabiriye uwo muhango.

Ndabona aba baturage, bari mu bikorwa byo kwamamaza, ishyaka ryabo kugira ngo rizatorwe mu bikorwa by'amatora.

Aba bari kwiga ku mishinga y'ishyaka rya Frank Habineza, bari kuvuga imigabo n'imigambi bafatanyije.

Ndabona ari umutegarugori uri kuganiriza abantu bisa nkaho ari kuvuga ijambo ryabagenewe muri iki gikorwa barimo kuganiraho.

Uyu ni Ceyamani w'umuryango wa FPR Inkotanyi aha yari ari kwiyamamaza mu bikorwa, by'umwanya wo kuyobora igihugu kandi yaranatsinze.

Uyu ni ceyamani wa FPR inkotanyi ari we perezida Paul Kagame, aha yari ari mu bikorwa byo kwiyamamariza umwanya w'umukuru w'igihugu, aha nibwo yari ari kwiyamamaza.

Iyi ni inama y'abagize ishyaka ryitwa Green Party rikuriwe na Frank Habineza aho ryari riri mu nama bari kwiga ku mishinga yabo.

Aya ni amagare ari mu kazi, mu muhanda, aho abayakoresha baba bari gushaka abakiriya mu buryo bwo kwiteza imbere.

Ndabona hano hari imodoka zitwara ibicuruzwa zibigeza ku masoko, iyi iri kumanuka...

Ndabona ari ikinyabiziga kijyanye ibikoresho ku masoko, harimo igitwaye ibyuma ndetse gipakiye n'ibindi bifunitse.

Izi ni imodoka zitwara ibicuruzwa zikomeye cyane zambukiranya imipaka, aho ziva mu bihugu zikajya mu bindi.

Ndabona igikorwa remezo cy'umuhanda, aho kiri kunyurwamo n'amagare n'abantu aho babahanyura bagiye mu bikorwa byabo bya buri munsi.

Kiriya cyapa kiri kukwereka ko, ukuntu umuhanda ukomeza ugatererwa ugatambika ugakomeza ukagenda, ni cyo kimenyesha kiriya cyapa ko umuhanda ukomeza utarangira.

Ndabona hano mu muhanda hari kugendwamo n'ibinyabiziga bibiri hari icyo bita keya sorento, amatara y'amashanyarazi, hakurya ku maduka hari ikigo gikina imikino y'amahirwe.

Iki ni ikinyabiziga gitwara abantu mu buryo bwa rusange ukaba wishyura ukojejeho ikarita.

Ndabona hano harimo umugabo w'umumotari utwaye moto.

Ndii kubona twa tumoto tw'amapine atatu tuba dutwara kenshi amajibu y'amazi, tuba tugiye kurangura. Ndabona n'umunyegari uhetse.

Ndabona ikinyabiziga gitwara imicanga, amabuye kiri mu muhanda.

Hano ni muri gare iyo ugiye gutega niho ujya gufatira imodoka, ikakugeza aho ugiye bityo ukabasha kwihuta mu byo ukora.

Ndabona dayihatsu, naho inyuma ziri mu muhanda ziri kugenda, uwuzitwara, zose n'imodoka zitwara imizigo yaba.

Iki ni ikinyabiziga gikora serivisi zo gutwara abantu, ariko ntabwo gitwara abantu benshi cyane, ariko gitwara abantu.

Ndabona amazu asa nkaho bayakoreramo ibikorwa by'ubucuruzi, batanga serivisi haba abaguzi babibona n'abagurisha bakora.

Ndabona igikorwaremezo cy'umuhanda kiri kunyurwamo n'ibinyabiziga, ari abatwara amamoto haba n'abatwara imodoka bari kugikoresha.

Iki ni ikinyabiziga gitwara abagenzi mu buryo bwa rusange kibageza mu mpande zose z'igihugu, bityo bikabasha gukora ibikorwa byazo.

Aha ni mu mujyi wa kigali, aka gace ni akahariweho abantu kuruhukiramo, nta kinyabiziga gikoresha moteri kiba cyemerewe kuhagera.

Iki ni ikibuga cy'umukino witwa tenisi, aho ukinwa n'abantu babiri bakina umupira ungana nka akadenesi.

Iki cyapa kikumenyesha ko hano kuhahagarara bitaba byemewe, ubwo iyo uhahagaze ucibwa amande, cyangwa bakakwandikira abashinzwe umutekano.

Iki ni icyapa kikwereka mu gihe utwaye ko mu bumoso bwawe harimo ikoni bityo waba uri hafi kuhagera ukagabanya umuvuduko.

Iki cyapa kikwereka ko hano bitemewe guparika imodoka yawe bityo ukajyana ahandi.

Icyapa cyerekana utwaye ko aho hari aho abanyamaguru bambukira, kibamenyesha ko yitegura kugabanya umuvuduko.

Iki cyapa cyerekana ko mu ikoni harimo undi muhanda winjiriramo ku buryo ugenda gakenya, mu gihe utwaye kumva ko wahuriramo n'ikindi kinyabiziga.

Izi ni nimero z'amerekezo zikurangira aho umuhanda uwo ari wo, ku buryo urangira umuntu akakugeraho byoroshye umubwiye ino mibare.

Iki cyapa kikumenyesha ko iyo urengeje umuvuduko wa mirongo itatu, kamera iba ihari iragufata ikakwandikira ukaba uzishyura amande.

Aha ni ku mabutike yo muri makaritsiye aho haba hari imitaka bacururizamo amayinite, imitaka hari n'udusoko duto duto twoturuti.

Iyi ni imidugudu y'icyitegererezo ariyo gahunda y'igihugu mu rwego rwo gutuma tugira umujyi usukuye kandi usa neza.

Aha ni ku gasongero k'iyi hoteri hejuru nyine niho tubona, hejuru ku gasongero kuri ino hoteri hari n'amashanyarazi.

Ndabona inyubako iri mu mujyi y'amagorofa ane y'umuturirwa, ikeye cyane ikoreramo inzego zitandukanye z'amabanki n'izindi koperative zitandukanye.

Iyi ni inyubako ahantu bakoreramo ubucuruzi, yakoreramo amabanki n'andi masosiyete abyara inyungu bityo bigatuma basora igihugu kigatera imbere.

Aha ni ku mabutike yo mu Giporoso, aho ubona ari urujya n'uruza, amaduka acururizwamo, hari amashami...

Aba ni umudugudu uri mu manegeka ntabwo ujyanye n'igihe.

Uru ni uruzitiro rutanga umutekano hatapfa kwinjirwa n'ubonetse wese kuko haba hazengurutswe.

Ibi ni ibikorwa remezo rusange aribyo umuhanda twifashisha mu kugenda, ariko ndabona icyo kimenyetso cy'uruhande rw'iburyo kikwereka ko ikorosi.

Aha ni mu muhanda harimo ikinyabiziga byakubitiye amatara maremare cyane, kandi ubona ko ari imiturirwa n'amatara yo ku muhanda.

Iki ni igikorwa remezo cy'umuhanda aho gikoreshwa n'abantu benshi kikanyurwamo n'ibinyabiziga ndetse.

Kuriya cyapa kikwereka amerekezo y'aho uri kujya kikakurangira aho uri kugana ntuyobe. uri kubona n'umuhanda unyura muri .

Uyu ni umuhanda, aho unyurwamo n'abagenzi bawifashisha mu bikorwa byabo bya buri munsi, n'ibinyabiziga mu buryo bwo kugenda.

Hano ku ruhande rw'ibumoso n'umuhanda wabanyamaguru wo hagati ku w'iburyo ku modoka zimanuka muri iki gikorwa remezo cy'umuhanda.

Uyu ni umuhanda aho unyurwamo n'ibinyabiziga, yaba abantu, yaba n'ibindi bikorwa, hakaba n'ibindi bikorwaremezo nk'amasoko hakurya.